Amazi ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage. Aho abaturage bagaragaza ko guhabwa ivomo rusange kugira ngo bajye babona amazi meza kandi afite isuku, ari ingirakamaro ndetse binabafasha mu kwiteza imbere muri rusange.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse bakangurirana mu guteza ubuvuzi imbere. Bakagirwa inama n'abayobozi ndetse bagafata n'amahame bashobora kugenderaho kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku bana batoya, aho ababyeyi bazana n'abana babo kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere, babahereze imiti y'inkingo ishobora gukiza ubuzima bwa bo, hagakoreshwa ibikoresho byabugenewe, harimo nk'inshinge kugira ngo ubuvuzi butangwe bufite isuku.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse amapompo atangwa ku baturage kugira ngo bajye babona amazi meza hafi kandi y'isuku, bibafasha mu buryo bwiza bakabona n'uburyo bayakoresha byoroshye ndetse bakanayitaho kugira ngo abarinde indwara zitandukanye.

Ishyirahamwe ry'abaturage mu guteza serivisi y'ubuvuzi imbere, aho ubuzima bw'umuturage buhabwa agaciro kugira ngo ajye abona ubuvuzi umunsi ku munsi yitabweho kandi yirinde n'indwara.

Ikigo cy'amashuri kigaragaza kwita ku burenganzira bw'umwana, aho babahereza amafunguro, ndetse n'abana bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo, ko bishimiye serivisi bahabwa y'uburere ndetse n'uburezi muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku bana, abo bana bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babahereze inkingo zitandukanye, hakoreshejwe inshinge zabugenewe, ndetse n'amaga y'isuku, kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage. Ndetse abaturage babona amazi ku gihe bayakoresha mu buryo butandukanye kuko abafasha. Amazi y'isuku abarinda indwara, berekana ko bayishimira kuko adatuma babona ikibazo mu buzima bwabo umunsi ku munsi.

Serivisi yo kwita ku bana rusange, aho ibigo by'amashuri abanza batanga serivisi y'amazi y'isuku kugira ngo buri mwana wese age akaraba intoki umunsi ku munsi, ibi bituma abana basa neza mu ntoki bikanabarinda indwara zitandukanye zishobora gufatirwa mu matembabuzi.

Ishyirahamwe ry'abaturage muri serivisi yo kwita ku buvuzi. Hehe n'igwingire, kwita ku buzima bw'umuturage ndetse umubyeyi utwite cyane cyane, kugira inama abaturage ku kintu kijyanye n'isuku ndetse no gufata inkingo zose zuzuye.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi bagaragaza ko kwita ku buzima bw'umuturage ari ingirakamaro. Guhera ku kigero cy'imyaka iri hasi cyane cyane abana batoya, bagomba guhabwa serivisi z'ubuvuzi umunsi ku munsi kugira ngo barindwe indwara zishobora gufata imibiri yabo.

Amavomo rusange atangwa ku baturage ni ingirakamaro kuko abaturage bishimira ko babona amazi meza kandi y'isuku hafi y'ingo zabo, kugira ngo ajye abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaba bishimira igikorwa cyatanzwe kugira ngo buri muturage wese atere imbere.

Imbangukiragutabara ikinyabiziga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugirango gitange serivisi yihuse ku baturage bagize ikibazo muri rusange, aho buri muntu wese ahabwa ubufasha bwihuse mu gihe atarabona ubuvuzi bufite ireme mu bitaro, akitabwaho mu gihe nk'icyo ngicyo gikomeye.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage batandukanye ndetse abafite ikibazo cy'uburwayi bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babahereze imiti yizewe kandi ishobora gukiza ubukana bw'indwara bafite muri rusange.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, bagaragaza ko bishimiye serivisi itangwa kuri buri muturage, aho abaganga b'inzobere babitaho, umunsi ku munsi babahereza imiti yabugenewe, ndetse bakabagira n'inama muri rusange.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bishyize hamwe kugira ngo bateze serivisi y'ubuvuzi imbere. Amatariki ndetse n'umunsi wabugenewe wo guhuriraho kugira ngo haganirwe ku myanzuro ndetse n'aho ubuvuzi bugomba kugana umunsi ku munsi. Insanganyamatsiko ikaba ivuga ko nta n'umwe ugomba gusigara inyuma, mu ishema ryo guteza ubuvuzi imbere.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye mu kugira ngo bateze imbere serivisi y'ubuvuzi, harimo abayobozi ndetse n'urubyiruko kugira ngo ubuvuzi bube bufite ishingiro, abaturage bahabwa imiti ku gihe ndetse bakitabwaho n'umunsi ku munsi.

Abaturage bagaragaza ko bishimiye serivisi bahabwa na leta yo kugira ngo babone umupompo, kuko ubafasha mu kubona amazi meza y'isuku hafi y'ingo zabo, kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Ibigo by'amashuri bigaragaza ko kwita ku isuku y'abanyeshuri ari ingirakamaro. Aho babazanira kandagira ukarabe, mu mbuga kugira ngo buri mwana wese abashe kuba yasukura mu ntoki ziwe kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi b'inzobere kugira ngo baganire ku buvuzi rusange butangwa ku baturage, aho bakangurirwa kwita ku mibiri yabo birinda indwara z'ibyorezo bitandukanye kuko ari indwara mbi kandi zishobora kwica mu gihe gitoya, bagakangurirwa kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Amapompo atanga amazi y'isuku ku baturage ni ingirakamaro kuko afasha abaturage rusange mu kubona amazi meza y'isuku bakoresha mu buryo butandukanye bw'imirimo yabo rusange.

shyirahamwe ry'abaturage batandukanye mu nzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho bagirana inama n'abayobozi babo kugira ngo bateze ubuvuzi imbere muri rusange bakomeza kwita kuri buri muturage.

Amavomo rusange ni ingirakamaro kuko afasha abaturage batandukanye kugira ngo babone amazi hafi, kandi amazi ni ingirakamaro. Amazi y'isuku abaturage bayakoresha mu buryo butandukanye.

Sale ihuriyemo abaturage batandukanye baje guhabwa serivisi y'ubuvuzi ndetse n'inama muri rusange harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gihe bari gutanga ubuvuzi bwizewe.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku bana batoya, aho ababyeyi bazana n'abana babo kugira ngo bahabwe ibinini n'abaganga b'inzobere, bibafashe mu kwita ku buzima bwabo, harimo kuvura inzoka ndetse n'ibindi. Hakoreshejwe n'ubupfukamunwa bw'isuku kugira ngo birinde indwara zishobora gufatirwa mu matembabuzi.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku bana, ndetse baba bari kumwe n'ababyeyi babo, kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere babahereze imiti yabugenewe, iherezwa abana bakiri batoya, kugira ngo birinde indwara mu buryo butandukanye.

Amavomo rusange atangwa ku baturage, ni ingirakamaro kuko abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse amazi y'isuku babona abarinda indwara zitandukanye, na yo akaba abafasha mu gutera imbere, kw'ikiremwamuntu muri rusange.

Amavomo rusange atangwa ku baturage ni ingirakamaro, kuko bakoresha amazi y'ayo mavomo kugira ngo abafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi, abaturage bishimira serivisi yo kubona amazi meza y'isuku, atangwa buri munsi kugira ngo yite ku buzima bwabo.

Serivisi y'vuzi. Aho abaganga b'inzobere bagaragaza ko bishimiye gutanga serivisi ku baturage cyane cyane abafite ikibazo cy'uburwayi. Bakagaragaza imiti itangwa ndetse n'ibikoresho by'isuku birimo nk'amaga, akoreshwa kugira ngo bite ku baturage.

Amavomo rusange atangwa ku baturage ni ingirakamaro. N'abaturage bagaragaza ko bibashimisha kubona amazi meza y'isuku hafi y'ingo zabo. Kuko bayakoresha mu buryo butandukanye. Kandi akaba ari ingirakamaro ku buzima bw'umuturage.

Amavomo rusange atangwa ku baturage ni ingirakamaro kuko abafasha kubona amazi meza y'isuku kandi mu buryo bworoshye. Abaturage bagaragaza ko serivisi yo guhabwa amazi ari ingirakamaro kuko bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse ku nzu itangirwamo serivisi y'ubuvuzi kugira ngo baganire ku bibazo by'uburwayi, bahabwe imiti ikwiriye indwara bafite, basuzumwe ndetse bagirwe n'inama z'uburyo bashobora kwitwara mu buzima bwabo.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro. Cyane cyane umwana mutoya kugira ngo aherezwe uburenganzira bw'iwe bwuzuye. Agahabwa ubufasha n'ababyeyi ndetse n'ababishinzwe muri rusange kugira ngo akomeze kwitabwaho.

Umwana muto ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo, kubwo kubona ivomo rusange, akabona amazi hafi y'iwe. Amazi afite isuku ku baturage ni ingira kamaro kuko abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo guteka ndetse n'ibindi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, aho bagaragaza yuko kubona imipompo hafi kugira ngo bajye babona amazi y'isuku ari ingirakamaro. Bikabafasha gukoresha ayo mazi meza y'isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikigo cyishyize hamwe mu kubungabunga ubuzima bw'umuturage ndetse no kwita ku burenganzira bw'umuturage muri rusange, amavomo rusange agatangwa ku baturage kugira ngo bajye babona amazi meza y'isuku abafasha mu buryo butandukanye.

Amavomo rusange atangwa ku baturage, ndetse aya ngaya agafasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bayakoresha ari amazi afite isuku, kugira ngo bite ku buzima bwabo, harimo nko guteka ndetse no koga kugira ngo bite ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Ibyumba by'amavuriro birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage rusange, aho babitaho kugira ngo babasuzume ndetse banakoresheje ibikoresho byabugenewe umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku bana batoya, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babahereze imiti igendanye n'indwara bafite, bakabitaho babasuzuma ndetse bakanababwira uburyo bagomba kwita ku buzima bw'umwana wabo kugira ngo abe ameze neza.

Serivisi y'ubuvuzi rusange butangwa ku baturage. Aho abaturage rusange bahura n'abaganga b'inzobere, kugira ngo babahereze imiti yabugenewe ndetse banabasuzume mu buryo bwo kwita ku buzima bwabo, babagire n'inama z'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage. Ibigo by'amashuri bikoresha amazi rusange kugira ngo ajye afasha abanyeshuri mu kwita ku buzima bwabo, bakora isuku yo mu ntoki, kuko bibarinda indwara zitandukanye.

Serivisi yo gutanga amavomo rusange ku baturage, aho abaturage bagaragaza ko bishimiye amavomo abahabwaho kugira ngo bajye babona amazi meza y'isuku bayakoresha mu buryo butandukanye.

Kwirinda indwara ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko bifasha umuturage kuguma ameze neza umunsi ku munsi. Aho bakoresha kandagirukarabe bagashyiramo amazi kugira ngo abafashe mu gusukura intoki zabo birinda umwanda, kandi biteza ubuzima bw'umuturage imbere.

Ishyirahamwe ry'abayobozi n'abaturage muri rusange mu buryo bwo kwita ku buzima bw'umuturage, ahabwa ubuvuzi, ahabwa imiti ishobora gukiza indwara afite kandi akitabwaho umunsi ku munsi n'abaganga b'inzobere.

Abana bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo kubona ivomo rusange ry'aho bazajya bakura amazi . Amazi ni ingirakamaro kandi agomba kugera ku baturage afite isuku kugira ngo birinde indwara zishobora kuza guterwa n'ikibazo cy'amazi mabi.

Ipompo rusange rikoreshwa nk'ivomo ry'abaturage, aho abaturage batandukanye bashobora gukura amazi kandi amazi afite isuku, ibi bigaragaza ko ari ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko amazi abafasha umunsi ku munsi mu buryo butandukanye.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage ndetse bakabutanga hakoreshejwe imiti yabugenewe. Igatangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange n'amabwiriza umuturage uyikoresha ashobora kugenderaho. Hagakoreshwa n'ibikoresho by'isuku, harimo n'amaga kugira ngo imiti itangwe mu buryo bufite isuku.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, baba bari kumwe n'abana babo kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi. Ubwo buvuzi bugatangwa n'abaganga b'inzobere hakoreshejwe amaga y'isuku ndetse n'ibikoresho by'abaganga nk'amataburiya kugira ngo bite ku buvuzi rusange ndetse na serivisi yabwo inoze.

Amazi rusange atangwa ku baturage hakoreshejwe amavomo rusange cyangwa se imipompo, ni ingirakamaro kuko aba afasha abaturage mu kubona amazi meza y'isuku, mu buryo bworoshye kugira ngo bayakoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, ndetse kubona ivomo rusange impande y'abaturage bibafasha kubona amazi y'isuku mu buryo bwihuse bakayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo baganire ku bibazo by'ubuvuzi rusange ndetse no kwita ku mibereho myiza y'ubuzima bw'umuturage, bakagirwa inama zitandukanye ndetse hagafatwa n'imyanzuro myinshi kandi itandukanye.

Kwita ku muturage wese ufite ikibazo cyo mu mutwe ni ingirakamaro, aho umuhumuriza ukamugira inama ndetse ukanamuganiriza mu gihe gikwiriye, aho binaniranye ugana amavuriro kugira ahabwe ubundi bufasha bw'abaganga b'inzobere.

Serivisi y'ubuvuzi. Aho ababyeyi batandukanye bari muri sale bari kumwe n'abaganga babo b'inzobere kugira baganire ku kibazo cy'ubuvuzi. Bwerekeye mu mutwe aho hatangwa imiti itandukanye kugira ngo ngo havurwe iyo ndwara.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi bwo mu mutwe ndetse banagirwe n'inama, mu kwita ku buzima bwabo kugira ngo birinde icyo kibazo, umunsi ku munsi kuko ari ingaruka mbi, kizana ku buzima bw'umuntu.

Serivisi z'ubuvuzi butangwa ku baturage cyane cyane aba bafite ikibazo cyo mu mutwe, aho bagirwa inama n'abaganga b'inzobere bagafata imiti yabugenewe bagakomeza n'ubukangurambaga bugiye butandukanye mu guteza uwo muntu imbere, ahabwa iyi miti ndetse akanafata serivisi y'ubwo buvuzi neza muri rusange.

Ikigo cy'ishyirahamwe ry'abaturage muri rusange kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi cyane cyane ku baturage bafite ikibazo cyo mu mutwe, i Ndera ni ikigo gifasha abantu bose bafite ikibazo nk'icyo, bagahabwa imiti bahura n'abaganga b'inzobere muri serivise y'ubuvuzi.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi babo, harimo n'inzego z'umutekano, muri serivise yo gukangurira buri muturage wese kurwanya ihohoterwa rishingiyewe ku gitsina ndetse no kwita ku buzima bwa buri muntu wese, umurinda ikibazo nk'icyo ngicyo.

Ihuriro ry'abaturage rusange ndetse n'abayobozi muri serivisi yo gukangurirana muri rusange ko buri wese agomba kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho akorera kugira ngo abe ameze neza ndetse mu gihe ahuye n'ibyo bibazo, akagana amavuriro kugira ngo ahabwe ubuvuzi n'imiti ikwiriye.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye muri serivisi yo gutezanya imbere cyane cyane ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, bagahabwa serivisi y'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere ndetse n'inama zitandukanye.

Abana batandukanye bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo guhabwa serivisi y'ubuvuzi, cyane cyane abafite ibibazo byo mu mutwe bahabwa imiti ishobora kwirukana icyo kibazo ndetse bakitabwaho n'abaganga b'inzobere bagahabwa uburere ndetse n'uburezi muri rusange.

Ikinyabiziga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bahereze serivisi abaturage bafite ibibazo by'uburwayi, kuko kiba kirimo abaganga b'inzobere ndetse n'imiti ikwiriye kugira ngo ihabwe abarwayi.

Ubuvuzi butangwa ku muturage wese ufite ikibazo cyo mu mutwe, ndetse n'umuturage wese ushobora kuba warabonye umuturage ufite ikibazo cyo mu mutwe, agomba kumwegereza ubuvuzi, kugira ahabwe imiti ishobora gukiza ikibazo afite kitaba cyinshi.

Abaturage bafite ibibazo by'uburwayi cyane cyane ibibazo byo mu mutwe bibatera amadepuresiyo ndetse n'ibindi bibazo bishobora gutuma batamera neza, bahabwa serivisi n'abaganga b'inzobere ndetse bakanahabwa imiti ishobora kwirukana ikibazo cy'uburwayi bafite.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa n'abaganga b'inzobere, bakabuhereza abaturage rusange bafite ibibazo by'uburwayi cyane cyane bwo mu mutwe, kugira ngo bakangurirwe banahabwe n'imiti yizewe, bagirwe n'inama zo kwita ku buzima bwabo.

Buri muturage wese ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se uhura n'abafite icyo kibazo agomba kubakangurira guhura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahabwe imiti kuko ari ikibazo gisanzwe kandi gifite umuti wacyo wabugenewe utangwa n'abaganga b'inzobere.

Serivisi y'ubuvuzi ni ingirakamaro, cyane cyane abaganga b'inzobere bagahura n'abaturage bafite ikibazo cyo mu mutwe, kugira ngo babahereze serivisi y'ubuvuzi, bakabaruhura mu mutwe hagendewe ku buvuzi butangwa umunsi ku munsi, ndetse n'inama zitandukanye kugira ngo umuturage abe ameze neza.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye muri sale, bagaragaza ko bishimiye serivise y'ubuvuzi butangwa ku baturage, cyane cyane abafite ikibazo cyo mu mutwe bakagirwa inama ndetse bakitabwaho n'abaganga b'inzobere, banababwira uburyo bashobora kwitwara kugira ngo boroherwe mu ndwara bafite.

Kwita ku buzima bw'abaturage, cyane cyane abafite ikibazo cyo mu mutwe. Aho umubonye wese, ushobora kumwegereza ibitaro kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse, bushobora gukiza ikibazo cy'indwara afite, agahura n'abaganga b'inzobere kandi akitabwaho afata imiti ikwiriye ikibazo afite muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo itangwa ku baturage rusange, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babasuzume, ndetse bababwire uko mu kanwa kabo hameze, kugira ngo bakomeze kwita ku menyo yabo kuko ari ingirakamaro.

Kwita ku buzima bw'umuturage ukura ibiryo biri hagati y'amenyo ukoresheje urudodo rwabugenewe ndetse urwo rudodo rukagufasha mu isuku rusange yo mu kanwa aho wita ku menyo ukoresheje icyo gikoresho cyabugenewe muri rusange kugira ngo wirinde indwara zitandukanye zandura mu kanwa harimo nk'ifumbi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo itangwa ku baturage rusange hakoreshejwe abaganga b'inzobere kugira ngo basuzume ndetse batange n'ibisubizo kuri buri muturage wese wagamye ufite ikibazo cy'ubuvuzi bw'amenyo, agahabwa imiti kugira ngo avure indwara zitandukanye harimo nk'ifumbi.

Amavuriro ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo. Mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo ushobora kwegera abaganga b'inzobere kugira ngo bite kuri ubwo burwayi, bakure iryinyo ndetse banarisuzume, basukure mu kanwa mu gihe ufite ikibazo kandi bikurinda kugira indwara zishobora kwandurira mu kanwa harimo nk'ifumbi.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, aho abaturage rusange bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babahereze ubuvuzi bw'amenyo, ndetse babafashe bakoresheje n'ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga, kugira ngo basuzume uburyo amenyo yabo agomba kwitabwaho, babaheze n'imiti ikwiriye ikibazo cy'indwara bafite.

Kwita ku buzima bwawe ndetse cyane cyane wita mu kanwa, ugakoresha ibikoresho byabugenewe kugira wite ku menyo yawe, wirinde indwara zitandukanye, harimo nk'ifumbi ndetse wite ku menyo yawe umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, aho abaturage batandukanye bashobora kugana amavuriro kugira ngotabweho n'abaganga b'inzobere ndetse hanakoreshwe ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga bishobora gutanga ubwo bufuzi bufite ireme umunsi ku munsi. Ama ga n'ubupfukamunwa birakoreshwa kugira ngo hirinde indwara zishobora gufatirwa mu matembabuzi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo itangwa ku baturage rusange, aho abaturage bafite ibibazo by'uburwayi bw'amenyo, bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babasuzume ndetse banabahereze imiti ikwiriye indwara bafite.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Aho abaganga b'inzobere bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bakore imiti yizewe, izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo ku baturage rusange bafite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo.

Abana b'abanyeshuri ndetse bo mu kigero cy'imyaka mitoya, mu mashuri abanza bagaragaza ko kwita ku menyo yabo ari ingirakamaro, bakoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti ushobora gufashishwa mu koza amenyo muri rusange, hagakoreshwa n'amazi meza y'isuku kugira ngo bite mu kanwa ka bo.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, harimo n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bwizewe ndetse n'intebe zabugenewe umurwayi yicaraho kugira ngo asuzumwe mu buryo bunoze.

Ubuvuzi rusange butangwa ku baturage bafite ikibazo cy'amenyo, aho bahabwa ibikoresho byabugenewe bishobora kuba butangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bitange ubuvuzi bufite ireme ku muturage wese ufite ikibazo cy'amenyo ahabwe ubuvuzi.

Urudodo rukoreshwa mu gusukura amenyo, urwo rudodo rugatangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ruhabwe abaturage barwifashishe mu gukura ibiryo hagati y'amenyo ndetse rukiza n'indwara zo mu kanwa. Kuko mu kanwa haba hafite isuku mu gihe warukoresheje.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye barimo n'abaganga bishimiye serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo butangwa ku baturage, aho umuturage ahabwa imiti ndetse agahabwa n'ibikoresho by'isuku bishobora gutuma yita mu kanwa ke kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo nk'ifumbi.

Ibyumba by'amavuriro, ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, abaganga b'inzobere bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo basuzume umuturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, bite ku kibazo afite kandi batange serivisi y'ubuvuzi kuri uwo muturage wabashije kuhagana.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo itangwa ku baturage rusange, hakoreshejwe abaganga b'inzobere, ndetse bagakoresha ibikoresho byabugenewe bishobora kwifashishwa mu gihe bari gusuzuma ikibazo iryinyo rifite, kugira ngo umuturage ahabwe serivisi y'ubuvuzi bwizewe umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo butangwa ku kigero cy'imyaka itandukanye, aho umuturage ufite ikibazo cy'iryinyo yegera abaganga b'inzobere kugira ngo bamusuzume ndetse bagakoresha n'ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bwemewe.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo ndetse buri muturage wese agana ibitaro kugira ngo ahure n'abaganga b'inzobere, bamuhereze imiti ishobora koroshya uburibwe bw'amenyo ndetse no kwita ku menyo y'iwe muri rusange. Akisuzumisha ndetse agahabwa n'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, itangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bavure umuturage wese ufite ikibazo cyereke ku buvuzi bw'amenyo, hakoreshejwe ibikoresho byabukenewe, bifasha mu kuvura amenyo ndetse n'ama ga y'isuku kugira ngo birinde indwara z'amatembabuzi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo basuzume umuturage ufite ikibazo cy'uburwayi cyane cyane ku buvuzi bw'amenyo, hakoreshwa n'amaga y'isuku kugira ngo birinde indwara zitandukanye zishobora kwandurira mu baturage.

Buri muturage wese akangurirwa kwita ku buzima bwiwe ndetse asukura no mu kanwa, agakoresha uburoso bwabugenewe, ndetse n'umuti w'amenyo, kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zishobora gufata akanwa harimo nk'ifumbi.

Serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, ndetse itangwa n'abaganga b'inzobere kugira bahereze abaturage bafite ikibazo cy'amenyo, imiti ishobora kubafasha muri ubwo buvuzi, bitabweho n'abaganga b'inzobere umunsi ku munsi.

Buri muturage wese agomba kwita mu kanwa h'iwe, akahakorera isuku akoresheje uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo wabugenewe n'abaganga b'inzobere, akita mu kanwa ke kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zirimo ifumbi zishobora kumwangiza.

Kwita ku buzima bw'umuturage cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka iri hejuru. Bagahabwa serivisi y'ubuvuzi ndetse n'inama zitandukanye zituruka mu baganga b'inzobere. Bagafata indyo yuzuye ndetse yiganjemo imboga rwatsi kugira ngo birinde indwara mu mibiri yabo.

Kwita ku buzima bw'abasheshakanguhe ni ingirakamaro. Aho bahura n'abaganga b'inzobere bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bidufasha mu gusuzuma, kugira ngo basuzume ababyeyi bafite ikigero cy'imyaka iri hejuru, babiteho, ndetse banabasobanurire uburyo bashobora kwitwara mu gihe cy'ubuzima bwabo.

Kwita ku buzima bw'abaturage cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babahereze serivisi y'ubuvuzi, babafasha kuruhura mu mutwe ndetse no kugorora imibiri yabo mu buryo butandukanye.

Serivisi yo kwita ku baturage cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu buryo butandukanye, babaganiriza uko imibiri yabo ishobora kuba ikora ndetse banabakoresha siporo zitandukanye, harimo kugorora amaboko ndetse n'ibindi.

Kwita ku buzima bw'umuturage cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bakagirwa inama n'abaganga b'inzobere ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi, babwirwa ibintu bashobora gukoresha kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza, harimo gufata indyo yuzuye ndetse no gukora siporo.

Buri muturage wese agomba kwitabwaho umunsi ku munsi, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru bakitabwaho n'abaganga b'inzobere, babakoresha siporo ndetse kugira ngo bakangure umubiri wabo mu buryo bw'ingingo n'ibindi bitandukanye.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro cyanecyane abasheshe akanguhe. Bagakangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi, bakita ku buzima bwabo bakoresha imibiri yabo mu buryo butandukanye kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi kandi bagire ubuzima bwiza.

Serivisi yo guhereza imiti ikwiriye abaturage bari mu kigeroro cy'imyaka yo hejuru, bafata ibinini bitandukanye umunsi ku munsi kugira ngo bite ku buzima bwabo bagakoresha amazi meza y'isuku ndetse n'inama bagirwa na ba muganga kugira ngo bubahirize uburyo bakoresha iyo miti.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bagakangurirwa gukora siporo ku mibiri yabo, bakoresha imibiri yabo mu buryo butandukanye, harimo nko kwirukanka, kwigorora ndetse n'ibindi, bagafata n'amazi meza y'isuku kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye.

Serivisi yo kwita ku baturage rusange, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu buryo bwo kubahereza inama kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi. Bakabafasha no muri gahunda y'ubuzima busanzwe, babagorora mu buryo bwo kubahagurutsa ndetse banabatembereza kugira ngo bakomeze amagufa yabo.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro cyane cyane abasheshe akanguhe, ubakoresha imibiri yabo mu buryo butandukanye harimo kwiga ibintu bishyashya baruhura mu mutwe kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Kwita ku buzima bw'umuturage cyane cyane abaturage bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu buryo bwo kuruhura mu mutwe, babaganiriza ndetse banabigisha uko bagomba kwita ku buzima bwabo.

Ishyirahamwe ry'abaturage mu gutanga serivise z'ubuvuzi cyane cyane ku bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu buvuzi butandukanye bita no ku mibiri yabo n'amagufa babakoresha siporo zitandukanye.

Kwita ku baturage muri rusange cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru. Bagahabwa serivisi y'ubuvuzi ndetse n'inama zitandukanye. Bagafata indyo yuzuye yiganjemo imboga rwatsi kugira ngo birinde indwara zishobora kwataka imibiri ya bo.

Kwita ku buzima bw'umuturage, cyane cyane ababyeyi bari mu kigero k'imyaka iri hejuru cyangwa se abitwa abasheshe akanguhe, bagakoresha umubiri wabo siporo mu buryo butandukanye harimo guterura ibyuma, kwirukanka, kunama cyangwa se gusimbuka.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru kugira ngo bahabwe indyo yuzuye kandi indyo ishobora gufasha ubuzima bwabo buguma bumeze neza umunsi ku munsi.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro. Cyane cyane abaturage bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru bahabwa serivisi y'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere, kugira ngo babafashe mu buryo bwo kuruhura mu mitwe yabo, babakoresha siporo zitandukanye ndetse banabaganiriza uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Kwita ku buzima bw'umuturage, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru kuzamuka, aho bahabwa serivisi y'ubuvuzi, bitabwaho n'abaganga b'inzobere ndetse banaruhura mu mutwe, bahabwa inyandiko zo gusoma zitandukanye kugira ngo bibaruhure stress zishobora gutuma umuntu ashobora kugira ibibazo by'ubwonko.

Serivisi yo kwita ku muturage. Cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka iri hejuru, bagahabwa indyo yuzuye umunsi ku munsi kugira ngo bite ku buzima bwabo, bafata n'imbuto kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza, baburinde indwara.

Kwita ku buzima bw'umuturage cyane cyane abasheshe akanguhe, ababyeyi bari mu kigero k'imyaka yo hejuru bagomba guhabwa serivisi z'ubuvuzi umunsi ku munsi, bakitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Kwita ku buzima bw'umuturage, cyane cyane abasheshekanguhe, bagahabwa indyo yuzuye, irimo imboga rwatsi n'imbuto zitandukanye, kugira ngo babeho bafite ubuzima buzira umuze, kandi bahabwe n'ubudahangarwa bushobora kurinda umubiri wabo kuba wahura n'indwara zitandukanye.

Kwita ku buzima bw'abasheshe akanguhe ni ingirakamaro, cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka iri hejuru, bagahabwa serivisi z'ubuvuzi bakitabwaho, ndetse bakabungwabungwa kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Abana batandukanye bari kumwe n'umubyeyi wabo mukuru uri mu kigero cy'imyaka y'abasheshe akanguhe, ibi bigafasha buri muturage wese uri mu kigero cy'imyaka myinshi kwita ku buzima bwiwe akaruhura mu mutwe ndetse agatanga n'ibitekerezo bitandukanye ku myororokere y'ubuzima muri rusange.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bagaragaza ibyishimo ndetse no kwerekana ko kwita ku buzima bw'umuturage ari ingirakamaro, cyane cyane abari mu kigero k'imyaka yo hejuru bakaruhura mu mutwe bahura n'abana babo ndetse na serivisi y'ubuvuzi bahabwa muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage, cyane cyane abari mu kigero k'imyaka yo hejuru, bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babiteho mu buzima bwabo, babahereza imiti ikwiriye indwara zabo ndetse banabagira inama uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo.

Ibyumba by'amavuriro ahatangirwamo serivisi y'ubuvuzi cyane cyane ku baturage bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru aho bitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bagorore imibiri yabo n'amagufa muri rusange hakoreshejwe ibyuma byabugenewe muri serivisi y'ubwo buvuzi.

Ubuvuzi rusange butangwa cyane cyane ku baturage bari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe muri siporo zitandukanye zo gutuma bamera neza, harimo kubagendesha hakoreshejwe ibyuma byabugenewe ndetse no kubitaho muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage cyane cyane abari mu kigero k'imyaka yo hejuru, bitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo babasuzume, babapime, ndetse babaruhure no mu mutwe mu buryo bujyanye na siporo zitandukanye kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Ibizeru birimo amagambo agiye atandukanye ndetse n'ikibisobanura ko ari ukwirinda icyorezo cya Korona virusi, wambara agapfukamunwa, aho bikwiriye wirinda gusuhuzanya na mugenzi wawe ndetse ushyiramo intera mu gihe uri mu bantu benshi.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi muri rusange, mu kugaragaza ko gutanga serivisi y'ubuvuzi no kwita ku buzima bw'umuturage ari ingirakamaro mu Rwanda, aho bagaragaza ko bishimiye ubwo buvuzi buhabwa ku baturage ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi ndetse n'ubukangurambaga ku baturage, aho insanganyamatsiko ivuga ko ari ukwirinda indwara y'ubushita bw'inkende. Kuko ari indwara mbi kandi ishobora kwangiriza umuturage mu gihe gito cyane.

Serivisi yo kwita ku baturage rusange, aho bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu buvuzi bwihuse, babahereza inkingo zikwiriye indwara bafite, ndetse bagakoresha n'ibikoresho byabugenewe harimo nk'inshinge n'udupfukamunwa kugira ngo bakomeze kwirinda indwara zishobora gufatirwa mu matembabuzi.

Uducupa dutandukanye tw'amabara y'umweru ndetse dukoreshwa muri serivisi yo kwita ku buzima bw'abaturage kuko ari umuti ukiza indwara y'uruhu, abaturage bakunze kugira kandi ikaba ifitewe umuti wizewe.

Serivisi ihabwa abaturage rusange, aho bagirwa inama yo gukoresha agakingirizo mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ngo kabafashe mu kwirinda mu buryo butandukanye, harimo indwara nka sida cyangwa se kwirinda inda zitateganyijwe muri rusange.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage batandukanye. Ndetse igatangwa n'abaganga b'inzobere hakoreshejwe n'ibikoresho by'isuku, harimo udupfukamunwa ndetse n'amaga kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Serivisi yo kwita ku baturage rusange, baherezwa inkingo zabugenewe kugira ngo bakomeze kwirinda indwara z'ibyorezo bitandukanye, harimo na kovide, abaturage bakitabwaho bagahabwa serivisi n'abaganga b'inzobere kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, bagaragaza ko serivisi z'ubuvuzi zitangwa ari ingirakamaro ndetse hakagira insanganyamatsiko ivuga ko kwirinda Kanseri y'ibere ari ingirakamaro ndetse buri muntu wese uyifite agomba kwisuzumisha hakiri kare kuko ari indwara ivurwa kandi igakira.

Kwirinda icyorezo cya Koronavirusi ni ingirakamaro, kuko ari icyorezo kibi cyandura kandi kikica. Buri muturage wese agomba gufata inkingo ndetse akita no ku mibare y'inkingo yafashe. Agafata umuti wabugenewe kandi ukiza ikibazo afite.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ndetse zikaba zifite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira serivisi y'ubuvuzi itangwe mu buryo bwizewe ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima gitanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage rusange, aho abaganga b'inzobere baba bari kugira ngo bahure n'abaturage bafite ibibazo by'uburwayi babaheze serivisi y'ubuvuzi n'imiti ikwiriye indwara bafite.

Ibigo nderabuzima bitandukanye harimo n'ibya Gisenyi bishinzwe kwita ku buzima bw'abaturage umunsi ku munsi kugira ngo babarinde indwara, babahereza imiti ikwiriye ibibazo bafite ndetse n'inama zitandukanye umuturage ashobora gukoresha mu gihe ari gufata imiti.

Ibyumba by'amavuriro birimo n'amacumbi y'abarwayi, aho abaturage rusange baje guhabwa serivisi y'ubuvuzi, bashobora kuruhukira, harimo n'inzitiramibu zishobora gutuma birinda izindi ndwara zitandukanye, harimo nka malariya.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ndetse sale yayo ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, aho umuturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi ashobora kuba ari kugira ngo aze guhabwa serivisi y'ubuvuzi.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, aho abaganga b'inzobere bahura n'abaturage rusange bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo bahabwe serivisi, ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abo baganga kugira ngo batange serivisi ifite ireme.

Ishami ry'ubuvuzi, aho hatangirwa imiti rusange ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, bakitabwaho umunsi ku munsi kandi bakitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bafate imiti, banakangurirwe uburyo bayikoresha ku gihe.

Ibyumba by'amavuriro aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa. Harimo intebe zitandukanye ndetse n'ahantu umurwayi ufite ikibazo ashobora kuba aryamye mu gihe ari kwitabwaho ndetse afatwa n'isuzuma muri rusange.

Ibyumba by'amavuriro, ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi, hakaba harimo agatanda aho umurwayi ashobora kuruhukira ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bitange ubuvuzi bufite ireme.

Inyubako ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi cyane cyane ku baturage rusange bafite ibibazo by'uburwayi, bagahabwa imiti yabugenewe ndetse imiti ifite isuku ibitswe mu nyubako kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bwizewe.

Amavuriro atandukanye, aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa, abaganga b'inzobere baba barimo bashobora kugufasha kugira ngo wowe ufite ikibazo cy'uburwayi uhabwe umuti ndetse unasobanurirwe uburyo uwo muti ushobora kuba ukoreshwa kugira ngo wite ku kibazo cy'uburwayi ufite.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, aho ushobora kugana kugira ngo uhure n'abaganga b'inzobere baguhereze serivisi z'ubuvuzi mu gihe wumva umubiri wawe ufitemo ikibazo cy'uburwayi.

Ibyumba by'amavuriro, aho hatangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage ndetse n'aho amacumbi y'abarwayi aba aherereye kugira ngo buri muturage wese wagize ikibazo agahabwa icumbi akomeze kwitabwaho afata imiti ku gihe n'abaganga b'inzobere.

Inyubako z'ubuvuzi bw'amaso, aho ushobora guhura n'abaganga b'inzobere bagufasha mu gutunganya ikibazo cyose wagize ku burwayi bwawe bw'amaso, ugahabwa imiti ndetse ukanasukurwa mu gihe rifite ikibazo.

Amashami y'ubuvuzi, ahatangirwa imiti rusange ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, bagahabwa imiti ishobora gukiza uburwayi bafite bakitabwaho kandi ubwo buvuzi bukaba buri hafi y'abaturage kugira ngo babone serivisi byihuse.

Ibyumba by'amavuriro aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa ndetse hakaba harimo n'amacumbi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo babe bari mu bitaro, bakomeze guhabwa serivisi y'ubuvuzi bwihuse. Harimo n'ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bwizewe.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage rusange, bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babasuzume ndetse banabahereze imiti ikwiriye indwara bafite, bakitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo babe bameze neza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaturage batandukanye bashobora kugana kugira ngo bahabwe imiti ikiza indwara bafite, bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo banabasobanurire uburyo iyo miti ikora.

Inyubako y'ubuvuzi ikoreshwa n'abaganga b'inzobere, aho bakirira abaturage rusange bafite ikibazo cy'uburwayi ndetse bakitabwaho. Hafite isuku harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa kugira ngo bakomeze guteza ubuvuzi imbere.

Inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baturage rusange, aho umuturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi agana kugira ngo ahure n'abaganga b'inzobere bamugire inama kubwo kwita ku buzima bwe ndetse bamuhereze n'imiti ikwiriye ikibazo cy'indwara afite.

Inyubako itanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage. Igakorerwamo abaganga b'inzobere kugira ngo umuturage wese ugize ikibazo cy'uburwayi ahagane, ahure n'abaganga b'inzobere ahabwe serivisi yizewe.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bifasha muri serivisi y'ubuvuzi, harimo ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'intebe zo gusuzumiraho buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, kugira ngo serivisi y'ubuvuzi itangwe mu buryo bwizewe.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo serivisi, aho abaturage bashobora kugana kugira ngo baherezwe imiti mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi, bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo nanone babasobanurire uko iyo miti ikora.

Inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho ushobora kugana ugahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo uhabwe serivisi y'ubuvuzi, cyanecyane umuturage ufite ikibazo cy'uburwayi, yitabwaho agafata imiti ihagije kandi ikiza ikibazo afite.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane harimo n'ingero ibitaro bya Ruhengeri, aho buri murwayi wese ufite ikibazo ashobora kugana kugira ahure n'abaganga b'inzobere ahabwe serivisi y'ubuvuzi.

Ibigo by'amavuriro byita ku buzima bw'abaturage, aho umuntu wese ugize ikibazo cy'uburwayi ashobora kugana, kugira ngo bamugire inama mu buryo bw'imyororokere, ndetse bamukangurire no kwita ku buzima bwe, bamuhereze imiti ikiza indwara afite mu gihe aje ababwira ko afite indwara.

Serivisi y'ubuvuzi itangirwa mu mavuriro, aho abaganga b'inzobere bahura n'abaturage batandukanye kugira ngo babahereze serivisi y'ubuvuzi, babahereze imiti ikwiriye indwara zabo ndetse banabasuzume mu gihe bumva bafite ibibazo kandi batameze neza mu mibiri yabo.

Sale itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ndetse aho abaganga b'inzobere bahurira n'abaturage rusange bafite ikibazo cy'uburwayi, kugira ngo baganire ku kibazo cy'uburwayi ndetse hafatwe n'imyanzuro ku miti itandukanye ishobora guhabwa umuturage.

Isange one stop center aho ushobora kugera kugira ngo uhabwe serivisi y'ubuvuzi, ugahura n'abaganga b'inzobere bagufasha mu gusobanukirwa uburyo imiti wahawe ishobora gukoreshwa ndetse no kwita ku buzima bw'umuturage muri rusange.

Ibyumba by'amavuriro birimo abaganga b'inzobere ndetse bambaye n'ibikoresho byabugenewe harimo ama ga n'amataburiya, berekana ibikoresho byose bikoreshwa mu nyubako z'ubuvuzi kugira hatangwe serivise inoze ndetse n'imiti ifite uburemere bwinshi ku buzima bw'umuturage.

Ibyumba by'ibitaro, bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi bufite ireme, cyanecyane ku muturage ufite ikibazo cy'amaso, agahabwa imiti, ndetse akanitabwaho muri rusange.

Ibitaro aho abaturage bahurira kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi. Abafite ibibazo by'uburwayi bahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babaganirize ndetse banabahereza imiti izafasha koroshya indwara z'ibibazo bafite.

Ibyumba by'amavuriro aho abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi bashobora guhabwa serivisi n'abaganga b'inzobere, bakoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga ndetse n'ibitanda by'amasusumiro kugira ngo bitabweho muri rusange.

Ibyumba by'amavuriro aho habikwamo imiti, imiti ikabikwa mu buryo bufite isuku ifunzwe mu ducupa tugiye dutandukanye tugaragaza uko uwo muti ukoreshwa, bigatangwa ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo bitabweho.

Ibyumba bitangirwamo servisi y'ubuvuzi ku baturage rusange, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye harimo n'iby'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bwizewe kandi ihabwe umuturage binyuzwe na buri wese.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku baturage rusange, aho abaganga b'inzobere babika imiti kugira ngo bayihereze abaturage bafite ibibazo by'uburwayi, mu buryo bwizewe ndetse bahurira na bo mu byumba byabugenewe kugira ngo babasuzume bifite ingirakamaro.

Ibyumba by'amavuriro ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi, hagakoreshwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kwifashishwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi inoze kuri buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi.

Ibyumba by'amavuriro birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage cyane cyane abafite ibibazo by'uburwayi, babasuzume kandi bitabweho ku buryo bukwiriye.

Ibyumba bitandukanye bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aha hakaba harimo n'amacumbi ashobora gukenerwa n'abarwayi kugira ngo bagume mu bitaro bakomeze kwitabwaho n'abaganga b'inzobere bafata imiti ku gihe kugira ngo boroherwe mu kibazo cy'indwara yabo.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, bikaba birimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'intebe, aho umuturage ufite ikibazo cy'uburwayi ashobora kwicara mu gihe barimo baramusuzuma, bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo serivisi y'ubuvuzi itangwe yizewe.

Inzu y'ababyeyi, aho abaganga b'inzobere bashobora gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage bafite abana. Aha hagakoreshwa ibikoresho by'ubuganga ndetse n'ibindi by'isuku harimo nk'udupfukamunwa n'amataburiya yabugenewe.

Ikigo cy'ibitaro, ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi ku baturage rusange. Aha hahuriramo abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bahabwe imiti ishobora gukiza indwara bafite, bagirwe n'inama z'uburyo bashobora gukoresha uwo muti, muri rusange.

Ibyumba by'amavuriro bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi z'ubuvuzi, bakabikoresha bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gusuzumwa ndetse no kwita ku muturage aho bamenya uburwayi ndetse n'ikibazo afite muri rusange.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hagakoreramo abaganga b'inzobere kugira bahereze buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, serivisi igendanye n'ikibazo afite kandi yitabweho umunsi ku munsi.

Ishami ritanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage ndetse haba harimo n'imiti itandukanye ishobora guherezwa buri muturage rusange wese ufite ikibazo cy'uburwayi, akagirwa n'inama n'abaganga b'inzobere kugira ngo ajye akomeza kwita ku buzima bwe umunsi ku munsi.

Ibyumba by'amavuriro aho abaturage rusange bakoresha nk'amacumbi kugira ngo bakomeze guhabwa serivisi z'ubuvuzi. Bakitabwaho n'abaganga b'inzobere, babahereza umuti umunsi ku munsi.

Inyubako ikoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage rusange, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye harimo n'isuku yiganje kugira ngo umuturage wese uri buhagere abone serivisi yujuje ubuziranenge.

Ikigo nderabuzima gitanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage rusange, kikaba kibitse imiti itandukanye itangwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi yitabweho.

Inyubako z'amavuriro, aho amacumbi y'abarwayi ari ndetse aha ngaha niho buri muntu wese ufite uburwayi aruhukira kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga b'inzobere afata imiti ku gihe kandi imiti igabanya ubukana bw'indwara afite.

Inyubako y'ubuvuzi, aho imiti rusange itangirwa ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, hakaba harimo n'abaganga b'inzobere bashobora kukugira inama mu gihe uri gufata iyo miti kugira ngo uzayikoreshe neza bigufashe mu gukira iyo ndwara byihuse.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi, ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira bahereze buri muturage wese ufite ikibazo k'indwara imiti ikwiriye kandi yitabwaho umunsi ku munsi, ahabwe serivisi y'ubuvuzi.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abaturage rusange mu gihe bumva bafite ibibazo by'uburwayi bashobora kuhagana kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere, babafashe mu buryo bwo kubagezaho imiti yizewe ndetse no gusuzuma ibibazo by'indwara bafite.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa ku baturage, aho umuturage ugize ikibazo ahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bamupime bamenye ikibazo yahuye nacyo bamuhereza imiti ikwiriye indwara afite ndetse bakoresheje n'ibikoresho byabugenewe harimo nk'inshinge kugira ngo umuturage asuzumwe binyuze mu buryo bufite ireme.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku baturage, aho ushobora kugana kugira ngo uhure n'abaganga b'inzobere, bagufashe mu guhabwa imiti igendanye n'indwara ufite ndetse banakugire inama uburyo ushobora gukoresha iyo miti mu gihe wahuye n'uburwayi.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi. Aho abaganga b'inzobere bahurira n'abaturage rusange, ndetse harimo n'ahantu imiti ibikwa mu gihe habayeho ikibazo igatangwa, bikaba bikoreshwa mu buvuzi rusange, butangwa ku baturage umunsi ku munsi.

Ibyumba by'amavuriro aho serivisi itangirwa, abaganga b'inzobere bambaye mu buryo bw'ubwirinzi, harimo udupfukamunwa ndetse n'amasarobeti afite isuku mu buryo bwo kubungabunga ikibazo cyose gishobora guteza uburwayi ndetse no kubyirinda mu gihe bitaraba.

Ibyumba by'amavuriro ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi, aho abaturage bashobora kugana kugira ngo bahabwe imiti ishobora gukiza ikibazo cy'uburwayi bafite, bagahurirayo n'abaganga b'inzobere kugira ngo babiteho muri rusange.

Ibyumba by'amavuriro, aho amacumbi y'abarwayi aba ari, aha hakaba harimo ibikoresho bijye bitandukanye, ndetse n'ahandi imiti ibikwa kugira ngo umurwayi ugize ikibazo ahabwe serivisi mu buryo bwihuse.

Ibyumba by'amavuriro aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa. Amacumbi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo bajye bahura n'abaganga b'inzobere bakomeze kubahereza ubufasha mu gihe gikwiriye kandi cyihuse.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi. Aho hakoreshwa abaganga b'inzobere kugira ngo bakoreshe ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, kugira ngo batange serivisi inoze, hagendewe mu gusuzuma umuturage kugira ngo indwara afite imenyekane, ihabwe imiti iyikwiriye ndetse banamwiteho muri rusange.

Inyubako z'amavuriro aho serivisi y'ubuvuzi itangirwa, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi cyane cyane ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi.

Inyubako ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi, ibitaro aho abaturage rusange bashobora kugana kugira ngo bitabweho bafate imiti ikwiriye ndetse bafate n'inama zishobora kuba zabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako z'ubuvuzi aho abaturage bahurira n'abayobozi cyangwa se abaganga b'inzobere kugira ngo baganire ku kibazo cy'ubuvuzi muri rusange. Bagatanga serivisi y'imiti ndetse ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Inyubako y'ubuvuzi, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku babyeyi, aho ushobora kugana kugira ngo uhure n'abaganga b'inzobere baguhereze imiti itandukanye, mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi ndetse ugirwe n'inama z'uburyo ushobora kwita ku buzima bwawe muri rusange.

Serivisi itangirwa mu bitaro ndetse akaba ari ubuvuzi ku baturage cyane cyane abagiye kubyara, aho abana babo bitabwaho n'abaganga b'inzobere bakoresheje ama ga y'isuku kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Ibyumba by'ubuvuzi, ahatangirwa serivisi ku baturage, aho harimo ibyuma bitandukanye bishobora guterurwa kugira ngo umuturage abe ameze neza ku mubiri we ndetse ibyo byuma bikaba bifite isuku ihagije ku buryo umuturage wese adashobora kugiriramo ikibazo.

Inyubako zikorerwamo imiti izahabwa abaturage rusange. Ikitabwaho n'abaganga b'inzobere, bakayibika ahantu hizewe ndetse mu birahure bitandukanye. Igasuzumwa mu buryo bwizewe kugira ngo bapime niba nta mikorobe zishobora kuba zirimo kugira ngo itazahabwa abaturage irimo ibibazo.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaturage batandukanye bafite ikibazo cy'uburwayi bashobora kugana kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere babahereze serivisi y'ubuvuzi.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa ku baturage hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga, aho abaganga babishinzwe bagusuzuma ndetse bakanagupima mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi. Ukitabwaho ugahabwa na serivisi y'ubuvuzi muri rusange.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane, aho buri muntu wese wayogojwe n'ibiyobyabwenge, agomba kugana kugira ngo ahabwe imiti igabanya icyo kibazo, ndetse anasuzumwe ahabwe n'ibisubizo bizima, bishobora kumufasha mu buzima bwe, mu gukomeza kwirinda ikibazo nk'icyo ngicyo muri rusange.

Inyubako y'ubuvuzi. Ahatangirwamo serivisi ku baturage. Aho bashobora kugana kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere, babafashe mu buryo bwo gutanga imiti kandi iyo miti ihabwe buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, aho abaturage rusange bafite ibibazo bagana kugira ngo bitabweho, harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, abaganga b'inzobere bifashisha kugira ngo batange serivise imeze neza.

Ibyumba by'amavuriro ahatangirwa serivisi y'ubuvuzi bw'amaso, aha uhura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bakugezeho imiti yizewe ishobora kuvura indwara y'amaso kandi ikoroshya ububabare mu gihe wumva utameze neza,

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, agahabwa imiti imeze nkaho igendanye n'ikibazo cy'uburwayi afite kandi akitabwaho.

Ishami ritanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage, ndetse aho imiti itandukanye ibikwa kugira ngo buri muturage wese ugize ikibazo cy'uburwayi ahagane ahabwe imiti ikwiriye indwara afite, ndetse akagirwa n'inama n'abaganga b'inzobere kugira ngo amenye uburyo akoresha iyo miti.

Amavuriro atandukanye atangirwamo serivisi y'ubuvuzi, cyane cyane ku baturage bafite ikibazo cy'ubumuga, aho bahabwa imiti itandukanye ishobora gukiza indwara bafite, ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, bishobora gutuma bamera neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibyumba bibitsemo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage. Intebe, aho bashobora kwicara kugira ngo bahabwe serivisi y'ubusuzumyi ndetse banakomeze kwitabwaho bafata imiti igiye itandukanye n'abaganga b'inzobere.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse akangurirwa kuyakoresha umunsi ku munsi kugira ngo arinde umubiri we indwara zitandukanye, akayabika ahantu hafite isuku ndetse akanayakoresha mu gikoresho gifite isuku, agakoresha n'amazi afite isuku.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage. Aho akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi kugira ngo yite ku buzima bw'iwe. Agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo kugorora amaguru, kugorora amaboko, umugongo muri rusange, kwirukanka cyangwa se gusimbuka umugozi.

Igare ritangwa n'abaganga b'inzobere, rigahabwa umuturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, cyanecyane uburwayi bw'ubumuga. Akitabwaho ndetse agahabwa igikoresho kizajya kimufasha mu buryo butandukanye.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro. Akoresha umubiri we siporo zitandukanye. Harimo gukina umupira ukoresheje amaguru, amaboko, gukina iteramakofe ndetse no kwisuzumisha kugirango ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze umunsi ku munsi. Byose bigafasha umubiri wawe kuguma umeze neza.

Ibitaro byubatswe ndetse bigakoreshwa mu gutanga serivisi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, aho abaganga b'inzobere bashobora kuba bari kugira ngo bageze imiti itandukanye ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Serivisi y'ubuvuzi ndetse n'inama abaturage bagirwa kugira ngo umubiri wabo umeze neza. Bagafata amazi meza y'isuku, bagaterura ibyuma kugira ngo babe bameze neza ku mibiri yabo, bagafata imbuto zihagije zirimo nk'amaronji kugira ngo bite ku mibiri yabo, ndetse n'imiti gakondo ituruka mu byatsi kugira ngo bavure indwara bafite.

Croix rouge umushinga wishyize hamwe n'abaturage rusange mu guteza serivisi y'ubuvuzi imbere cyane cyane mu gutanga ubuvuzi bwihuse ku muturage ugize ikibazo cy'uburwayi, agahabwa ubufasha mu gihe gito.

Igikoresho gitanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage cyane cyane abafite ubumuga bwo kutagenda, bakiyitaho mu buzima bwabo kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi ndetse bakitabwaho n'abaganga b'inzobere.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage kandi akangurirwa kuyakoresha umunsi ku munsi, akayabika mu icupa ryizewe kandi rifite ireme ndetse akanabikamo amazi afite isuku kugira ngo azirinde indwara.

Ikinyabiziga gitanga ubuvuzi bwihuse. Kigakora mu buryo bwo kugendana imiti ndetse n'abaganga b'inzobere kugira buri muntu wese uhuye n'ikibazo kihuse ahabwe serivisi y'ubuvuzi mu gihe ataragera mu bitaro.

Buri muturage wese akangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi, akita ku buzima bw'iwe ndetse akagorora ingingo z'iwe, akoresheje amaboko ndetse amaguru kugira ngo yumve ameze neza mu mubiri we ndetse n'amagufwa ameze neza muri rusange.

Buri muturage wese akangurirwa gukora siporo ku kigero gihagije, kugira ngo umubiri we ube umeze neza umunsi ku munsi n'amagufa ayagorore, agakoresha umubiri we siporo zitandukanye harimo kwicara, gusimbuka umugozi ndetse no kwirukanka.

Icupa ry'umweru ribikwamo umuti ushobora gutangwa ku baturage rusange. Uwo muti ukavura indwara zitandukanye harimo ikibazo cy'uburibwe bwinshi, koroha ndetse ukanitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo uhabwe abaturage bafite ikibazo nk'icyo.

Serivisi y'ubuvuzi cyane cyane butangwa ku ba siporutifu. Bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe kugorora ingingo zabo, babitaho ndetse banabahereza imiti ikwiriye ibibazo bafite.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, ndetse akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi. Mu gihe yakoze siporo agakoresha amazi meza y'isuku ndetse akanayanywera mu gikoresho gifite isuku kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe muri rusange.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, ndetse umuturage wese akangurirwa kuyanywa ku kigero gihagije, agafata amazi meza y'isuku, ndetse akanayabika ahantu hafite isuku, kugira ngo yirinde indwara zishobora kwandura bikoreshejwe amazi mabi atitaweho muri rusange.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi cyane cyane ku baturage b'aba sportif, aho babitaho umunsi ku munsi ndetse bakanabavura mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, ndetse akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi, agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo nko kwicara yigorora, akagorora amaboko n'amaguru icyarimwe, akiyitaho muri rusange kugira ngo yizure.

Amavuriro agira ibyumba bitandukanye harimo nk'ibi ngibi bishobora kubikwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bishobora kwifashishwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bahereze serivisi y'ubuvuzi ku baturage. Cyane cyane abasiporutifu bitabwaho umunsi ku munsi ndetse bagahabwa n'imiti ishobora gukiza ibibazo bafite.

Ubuvuzi bwihuse, bukorwa na buri muturage wese mu gihe agize ikibazo cy'uburibwe ahantu runaka, agakoresha ishashi yabugenewe kugira ngo abe ameze neza ndetse anoroshye aho hantu agize uburibwe mu gihe gitunguranye.

Icyumba kirimo imiti itandukanye, iyo miti ikaba ibitswe mu cyumba cy'amavuriro aho igomba gutangirwa, kugira ngo iherezwe abarwayi bafite ikibazo kandi bakire indwara bafite, igatangwa n'abaganga b'inzobere muri serivisi y'ubuvuzi.

Igikoresho gikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo basuzume umuturage wese ufite ikibazo cy'umutima, ndetse banumve uko umubiri w'umuntu uhagaze muri rusange, kigakoreshwa byitaweho kugira ngo gitange ubuvuzi bw'ireme.

Ibyuma bikoreshwa mu buvuzi, ibi bigakoreshwa kuri buri muturage wese kugira ngo abiterure abe akomeje amagufa yiwe n'inyama z'iwe abe ameze neza umubiri umunsi ku munsi, akoresheje ibyuma bitandukanye by'amaboko birebire ndetse n'ibigufi kugira ngo yite ku buzima bwe.

Inyubako z'amavuriro aho ibyumba bitandukanye bibikwamo imiti ishobora gutangwa n'abaganga b'inzobere ku baturage, ikabikwa mu buryo bufite isuku ndetse n'ahantu hafite isuku kugira ngo izahabwe abaturage igifite umwimerere wayo kugira ngo izabafashe mu gukiza indwara zitandukanye.

Ubuvuzi bwihuse bushobora gutangwa ku muturage mu gihe agize ikibazo cy'uburibwe ahantu runaka, aho ashobora gukoresha ishashi n'amazi akonje ahantu runaka, agakozaho aho hantu afite uburibwe kugira ngo yoroherwe.

Igikoresho gikora nk'inkoni ishobora gufasha umuturage wese ufite ikibazo cy'ubumuga. Iki gikoresho kigatangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo gifashe umuturage wese udashobora kugenda, abashe kuba yagenda akoresheje ubu bufasha.

Siporo ni ingirakamaro, buri muturage wese akangurirwa kuzikora umunsi ku munsi, agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo kwirukanka, gusimbuka umugozi, pompaje ndetse n'ibindi. Agafata amazi meza y'isuku ndetse akayafatira no mu gikoresho cy'isuku, kugira ngo abungabunge ubuzima bwe buri munsi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese akangurirwa kunywa amazi kugira ngo akize umubiri w'iwe indwara zitandukanye, akayanywa akoresheje icupa ry'isuku ndetse n'amazi afite isuku kugira ngo amazi atamutera indwara mu gihe afite ikibazo cy'umwanda.

Igikoresho kiboneka muri jimu, gikoreshwa n'abaturage bose cyane cyane aba siporutifu, kigafasha buri muntu wese ushaka gukuraho inda cyangwa se gutuma inda ye iba fiti, kikamworohereza umubiri we mu buryo bukomeye ndetse kikanamugorora mu nkingo.

Igikapu gikoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi rusange kuko gifite imyanya itandukanye ibitswemo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, harimo imikasi, ibipfuko ndetse n'ibindi bishobora gutangwa nk'ubuvuzi bwihuse.

Serivisi y'ubuvuzi ikorerwa cyane cyane abantu bakora imyitozo ngororamubiri, aho bitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo babagorore imitsi ndetse bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo hafi.

Igikoresho cyabugenewe, gitangwa n'abaganga b'inzobere, ku baturage bafite ibikomere kugira ngo kibafashe mu kwirinda indwara zitandukanye cyangwa se undi mwanda ushobora kwegera igikomere bafite mu gihe bakoresheje icyo gipfuko, bibafasha kwirinda ibyo bibazo byose.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse akangurirwa kuyikora ku kigero gihagije. Agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye harimo gusimbuka, kwirukanka ndetse no kwigorora mu buryo bwo kwita ku mubiri we muri rusange. Agakoresha ibyuma byabugenewe by'ikoranabuhanga bishobora gutuma umuntu akora siporo mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira baduhereza abaturage cyane cyane abafite uburibwe, bakitabwaho kugira ngo imibiri ya bo ibe imeze neza umunsi ku munsi badafite ahantu hamwe bafite uburibwe bakoresheje uwo umuti.

Igikoresho gifite ibara ry'umukara kigakoreshwa n'abaturage muri rusange bafite ikibazo cy'ubumuga, bakagihabwa n'abaganga b'inzobere ndetse n'amabwiriza agomba buri muturage wese ufite icyo gikoresho kugira ngo akibungabunge gikomeze kuba gifite isuku yacyo.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa cyane cyane ku basiporotifu, ikaba ibafasha hakoreshejwe abaganga b'inzobere ndetse n'ibyuma byabugenewe by'ikoranabuhanga, bibafasha kugira ngo bibagorore mu ngingo ndetse bumve bameze neza mu mubiri.

Ubuvuzi rusange butangwa cyane cyane ku basiporutifu, aho mu gihe agize uburibwe akoresha agashashi n'amazi akonje kugira ngo yivure ahantu afite uburibwe ku mubiri wiwe, bikaba bifasha cyane cyane akaba ari n'inama igirwa abaturage rusange.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, aho agomba gukoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo nko guterura ibyuma kugira ngo amagufa yiwe agume akomeye kandi ameze neza, yite ku buzima bwiwe muri rusange kandi agume ameze neza aho ari hose.

Ubuvuzi rusange bukorwa na buri muturage wese mu gihe agize uburibwe, agakoresha ishashi yabugenewe. Iba irimo amazi akonje kugira ngo ashyire ahantu agize uburibwe, bikamufasha koroshya uburibwe ndetse akumva ameze neza.

Icupa ry'amazi afite isuku ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage. Ndetse buri muntu wese asabwa kunywa amazi mu gihe yakoze siporo, agakoresha n'igitambaro cy'isuku kugira ngo yirinde icyokere mu gihe yabize ibyuya arimo gukora siporo.

Serivisi yo kwivura aho ushobora gukoresha ishashi irimo amazi akonje kugira ngo ahantu hose ufite ikibazo cy'uburibwe uhoroshye, iyi igakorwa na buri muturage wese mu gihe yumva afite ikibazo cy'uburibwe ahantu runaka kugira ngo abe yabasha kwifasha.

Ubuvuzi rusange bugendanwa. Bukaba bubikwa mu gikapu cyabugenewe, gifite imyanya myinshi, aho ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi bibikwa. Harimo nk'imikasi, ibipfuko ndetse n'ibindi bikoresho bitangwa mu buryo bwihuse kugira ngo buteze imbere ubuvuzi.

Ibikoresho by'ubuvuzi bikoreshwa nk'ubuvuzi bwa hafi. Aho umuturage agize ikibazo akitabwaho mu gihe atarabona ubufasha bukwiriye n'abaganga b'inzobere. Hakoreshejwe imikasi, amaga y'isuku, inshinge zitandukanye, imiti, ibipfuko ndetse n'ahantu h'isuku ho kubika ibikoresho byawe kugira ngo bihorane ubuziranenge bw'isuku.

Buri mu siporotifu wese ukoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo nko kwirukanka, gusimbuka umugozi ndetse n'ibindi, ashobora gufata amazi meza y'isuku kugira ngo abe ameze neza ndetse akanayabika ahantu hafite isuku kugira ngo arinde umubiri we indwara.

Kwita ku buzima bw'umuturage ni ingirakamaro, aho buri muturage wese agomba gukoresha umubiri we mu buryo butandukanye. Harimo kwigorora, kwicara akirambura akoresheje amaboko n'amaguru agaterura ibyuma bitandukanye bishobora gutuma umubiri we umera neza ndetse agafata n'amazi meza y'isuku kugira akomeze kwita ku buzima bwe.

Igikoresho gitangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo gifashe umuturage ufite uburwayi cyane cyane ubumuga, aho gifite amapine ashobora kuyobora akayoborwa n'umuntu ugikoresha mu buryo bworoshye.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Ndetse buri muntu wese ushaka kuba ameze neza mu buzima bwe, akangurirwa gukora siporo ku kigero gihagije. Mu gihe yayikoze agafata amazi meza y'isuku ndetse akanayabika ahantu hafite isuku, ndetse agakoresha n'igitambaro kugira ngo yihanagure ibyuya mu gihe yakoze siporo akabira ibyunzwe.

Ubuzima bw'umuntu ni ingirakamaro kandi agomba kuburinda akoresheje indyo yuzuye. Harimo n'imbuto ziganjemo imineke, amaronji, kokombure ndetse n'ibindi. Agakoresha n'umubiri we mu buryo bwa siporo aterura ibyuma bitandukanye, harimo ibiremereye cyane mo gake ndetse n'ibindi.

Kwita ku buzima bw'umuturage, aho abaganga b'inzobere bakangurira abaturage gukora siporo umunsi ku munsi. Abari mu kigero cy'imyaka yo hejuru, bagafashwa n'abaganga b'inzobere muri ubwo buryo bwa siporo harimo nko kugendesha amaguru bisanzwe ndetse no kugirwa inama umunsi ku munsi.

Siporo zitangwa n'abaganga b'inzobere, akaba ari inama igirwa buri muntu wese ufite ikibazo cy'urutirigongo, agakoresha siporo umubiri we mu buryo butandukanye, harimo kugorora amaboko, kuyarambura inyuma, kuyarambura imbere mu buryo bwo guhagarara ndetse no kuzamura amaguru yiwe agorora amavi.

Serivisi yo kwita ku buzima bw'umuturage, aho akangurirwa umunsi ku munsi kwita ku buzima bwe akoresha vitamini zitandukanye harimo imbuto zabugenewe nk'imineke, amaronji ndetse n'inanasi, mu gihe yumva afite n'ikibazo cy'uburwayi agafata ibinini byabugenewe, agakoresha umubiri we siporo mu buryo butandukanye kugira ngo abone umudari w'ishimwe.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, cyane cyane aba sportif Kuko bayakoresha mu buryo butandukanye Kuko amazi ari ingirakamaro. Amazi asukwa ahantu hafite isuku Kandi akabikwa n'ahantu hafite isuku, gakoreshwa afite isuku kugira ngo azite ku buzima bw'umuturage amurinda indwara.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, cyane cyane abasiporotifu, bakayakoresha ari amazi afite isuku ndetse n'igikoresho bayanyweramo kigomba kuba gifite isuku kugira ngo birinde indwara zishobora kuza gufata umuturage binyuze mu mazi mabi.

Serivisi y'ubuvuzi itangwa n'abaganga b'inzobere igahabwa cyane cyane aba siporutifu, ikaba ibafasha mu buryo bwo kugorora imibiri yabo ndetse ugorora n'amagufa, cyane cyane ukoresheje amaguru kugira ngo umuntu abe ameze neza no mu ngingo muri rusange.

Serivisi itangwa ku buvuzi bw'abana, aho ababyeyi bajyana abana kugira ngo bahure n'abaganga b'inzobere babasuzume, kugira ngo bamenye uburyo ubuzima bw'umwana buhagaze muri rusange; hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo batange ubuvuzi bufite isuku.

Kwita ku buzima bw'umuturage umunsi ku munsi ni ingirakamaro. Aho ahura n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bamufashe kwita ku buzima bwe, bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu gutanga masage yizewe, ndetse n'ibikoresho by'isuku harimo nk'udupfukamunwa n'ama ga, kugira ngo birinde indwara zishobora gufatirwa mu matembabuzi.

Ibikoresho bitandukanye byose bitanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage harimo ibyuma biterurwa n'aba sporutifu ndetse n'ibikoresho bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo basuzume buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi harimo ibyuma bishobora gupima ibiro ndetse n'ibindi harimo n'imbuto zikwereka ko ari ingirakamaro gukoresha imbuto mu gihe ufata amafunguro yawe.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage kandi akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi, agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, harimo kwinanura akagorora umugongo, amaboko n'amaguru byose.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi kugira yite ku buzima bwiwe, mu gihe yayikoze agafata amazi meza y'isuku ndetse anabitswe mu gikoresho gifite isuku kugira ngo yirinde indwara zishobora guterwa n'amazi mabi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage. Ndetse akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi. Agakoresha umubiri we mu buryo butandukanye, cyane cyane harimo nko kwirukanka. Mu gihe agize n'ikibazo agafata imiti yizewe ndetse akagororwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo abe ameze neza umunsi ku munsi.

Serivisi y'ubuvuzi butangwa hakoreshejwe igikapu cyabugenewe, gifite imyanya myinshi ibitswemo ibikoresho by'ubuvuzi, harimo imikasi, amabande ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi ku baturage.

Ibikoresho byose bikoreshwa, harimo umupira w'amaboko, uw'amaguru, rugubi ndetse n'ingofero zo kwambara kugira ngo bibarinde kuba bakomereka, byose bigakoreshwa mu buvuzi bw'umuturage kugira ngo agorore umubiri we, aba ameze neza umunsi ku munsi.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, kuko amufasha mu gukiza indwara zitandukanye. Ndetse buri muturage wese akangurirwa gukoresha amazi ku kigero gihagije, agakoresha amazi afite isuku ndetse n'aho ayabika hagomba kuba hafite isuku kugira ngo yirinde indwara ziva mu mazi mabi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage kandi akangurirwa kuyikora umunsi ku munsi, mu gihe akoresha umubiri we siporo zitandukanye harimo nko kwirukanka, kwinanura, kwigorora bisanzwe uhindukiza n'umugongo ugafata n'amazi meza y'isuku kugira ngo umubiri wawe ube umeze neza umunsi ku munsi.

Ubuvuzi bwihuse, serivisi itangwa ku baturage, hagendewe ku bishyize hamwe bafite imiti ishobora gufasha umurwayi mu gihe agize ikibazo cyihutirwa kandi akitabwaho mu gihe atarabona ubuvuzi bukwiriye.

Uducupa dukoreshwa mu kubikwamo imiti rusange ihabwa aba siporotifu cyane cyane, iyi miti igakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bavure buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi.

Imboga rwatsi, imbuto zitandukanye zirimo amaronji, ndetse n'ibyuma byo guterurwa, ibi bigakora nk'ubuvuzi ku baturage, kugira ngo bite ku buzima bwabo bafata imbuto zihagije ndetse banakoresha umubiri wabo mu buryo butandukanye.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amagufa. Ibyumba by'amavuriro ahatangirwa serivisi y'igororamuntu, aho umuturage ahura n'umuganga w'inzobere kugira ngo amufashe mu kumuhereza serivisi y'ubuganga bw'amagufu, akita ku mubiri we ndetse akanagororwa muri rusange.

Igikoresho gitangwa n'abaganga b'inzobere, bakagihereza abaturage rusange, cyane cyane abafite ibibazo by'ubumuga kugira ngo kijye kibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse kikitabwaho umunsi ku munsi kuko gifasha muri serivisi y'ubuvuzi.

Igikoresho gikoreshwa n'abaganga b'inzobere ndetse kikaba gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga, kikaba gifasha cyane cyane abasiporotifu kuba basuzumwa n'abaganga b'inzobere, bakagororwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibyumba by'amavuriro bitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo basuzume neza bamenye ikibazo umuturage ufite uburwayi afite, kugira ngo babone uburyo bamumuhereza imiti ikwiriye.

Buri muturage akangurirwa kwita ku buzima bwiwe, akoresha umubiri we mu buryo butandukanye, ashyigikirana na mugenzi we kugira ngo batere imbere, agakora siporo zitandukanye, harimo nko kwirukanka, akita ku buzima bwe afata ubuvuzi bukwiriye umubiri we, ndetse akiyitaho muri rusange.

Imiti gakondo itandukanye itangwa ku baturage rusange ndetse iyi miti gakondo ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ijye ikorwa mu buryo bwizewe ndetse n'abaturage bayihabwe mu buryo bwizewe.

Imiti gakondo ikorwa n'abaganga b'inzobere, igakorwa mu buryo bw'ibinini kugira ngo izakoreshwe mu guhabwa abaturage bafite ibibazo by'uburwayi kandi bitabweho kugira ngo indwara yabo yoroherwe.

Icupa ry'umweru rikoreshwamo mu kubika imiti gakondo ndetse iyo miti igafasha abaturage muri serivisi y'ubuvuzi, igatangwa n'abaganga b'inzobere ku baturage batandukanye, cyane cyane abafite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu, ubw'umusatsi ndetse n'ibindi bibazo byose bishobora kuvurwa n'imiti gakondo.

Icupa rikoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi ndetse rikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ribikwemo umuti gakondo uzakoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi ku baturage, ugahabwa abafite uburwayi cyane cyane.

Imiti gakondo itangwa ku baturage. Serivisi y'ubuvuzi butangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bageze imiti itandukanye gakondo ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi. Bakitabwaho kugira ngo indwara zabo zimere neza.

Inyubako ibitswemo imiti gakondo itandukanye iri mu ducupa kugira ngo ibikwe neza, izahabwe abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi ndetse iyo miti gakondo igatangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange n'inama uko iyo miti ikoreshwa umunsi ku munsi.

Ibibabi bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikorwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage, buri muntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi ashobora gukenera uyu muti gakondo kugira ngo abashe kuba yarwanya indwara afite muri rusange.

Imiti gakondo ikorwa mu bibabi ikitabwaho n'abavuzi rusange, kugira ngo ibe imeze neza umunsi ku munsi, ndetse igahabwa abaturage, cyane cyane abafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo babe bameze neza.

Icupa ry'umukara ndetse rifite n'ingano ntoya, rikaba rikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ribike umuti gakondo, ushobora gufasha umuturage mu gihe akeneye gutuma uruhu rwe rumera neza cyangwa se akawukoresha mu musatsi.

Amababi akoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo hakurwemo imiti gakondo, izafasha muri serivisi y'ubuvuzi ku baturage batandukanye, ndetse ikitabwaho n'abaganga b'inzobere, kugira ngo ikorwe ifite isuku, kandi ikorwe mu buryo bwizewe.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo tubikwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage rusange. Iyi yitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo serivisi y'ubuvuzi itangwe inoze kandi ifite isuku.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi. Ndetse ikitabwaho mu buryo bufite isuku kugira ngo ikurwemo imiti izafasha muri serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane ubwo buvuzi buhabwa abaturage bafite ibibazo by'uburwayi, kugira ngo indwara zabo zihabwe imiti ariko akaba ari imiti gakondo ibafasha muri urwo rugendo.

Amacupa atandukanye yose akoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo habikwemo imiti gakondo. Iyo miti gakondo igakoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi.

Imiti gakondo itandukanye ifasha abaturage muri serivisi z'ubuvuzi, iyi miti gakondo ikitabwaho n'abaganga b'inzobere umunsi ku munsi kugira ngo umuturage ufite ikibazo cy'uburwayi ahabwe ubufasha.

Icupa ribikwamo umuti gakondo uva mu bibabi by'umuravumba, ndetse bikitabwaho n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bikorwemo imiti itandukanye gakondo, ishobora gufasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage.

Ibibabi biva ku biti. Ibyo bibabi bikaba bitandukanye ndetse bitanasa. Harimo iby'icyatsi ndetse n'umuhondo. Ibyo bibabi byose bikagurishwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo, izafasha mu kuvura abaturage.

Ibibabi biboneka ku biti ndetse ibyo bibabi bigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi, ikitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo izahabwe abarwayi bafite ikibazo.

Imiti gakondo itandukanye ihabwa abaturage muri rusange kugira ngo bateze imbere ubuvuzi gakondo, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ikorwemo imiti ishobora guhangara indwara zitandukanye z'abaturage.

Imiti gakondo ikorwa mu bibabi ndetse no muri tangawizi, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere umunsi ku munsi kugira ngo ihabwe abaturage cyane cyane abafite ibibazo by'uburwayi, imitsi ndetse n'ibindi muri rusange.

Uducupa dutandukanye dufite amabara harimo umweru, umutuku ndetse n'ayandi, twose tugakoreshwamo mu kubika imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage, hagendewe ku baganga b'inzobere bahereza imiti abaturage mu gihe babona bafite ibibazo bitandukanye.

Amababi akoreshwa mu buvuzi gakondo, akitabwaho n'abavuzi kugira ngo akoreshwemo imiti izahabwa abaturage cyane cyane abafite ikibazo cy'uburwayi, bitabweho umunsi ku munsi.

Ububiko bufite isuku bw'imiti gakondo itangwa ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo buri muturage wese ufite indwara ahabwe umuti gakondo ushobora kuvura ikibazo afite umunsi ku munsi.

Icupa ry'umweru rikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ribikwemo imiti gakondo izafasha abaturage muri serivisi y'ubuvuzi kandi iyo miti igakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bagire inama buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi ndetse ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ihabwe abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, ndetse bafashwe muri serivisi y'ubuvuzi mu gihe gikwiriye kandi bitabweho umunsi ku munsi.

Imiti rusange y'ubuvuzi, yitabwaho n'abavuzi rusange, kugira ngo banoze urwego rw'ubuvuzi gakondo bateza n'umuco imbere muri rusange, kuko ari imiti ibikwa neza mu buryo bw'isiku, kugira ngo bayihereze abaturage bafite uburwayi.

Uducupa dufite imiterere itandukanye ndetse utwo ducupa tugakoreshwa kubikwamo imiti gakondo ivura abaturage. Tugakoreshwa mu isuku n'abaganga b'inzobere kugira baduhereze imiti yizewe kandi ifite ubureme ku buzima.

Amacupa atandukanye akoreshwa mu kubikwamo imiti gakondo izafasha mu buvuzi bw'abaturage rusange, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku buzima bw'umuturage bamurinda indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti gakondo.

Imiti gakondo itangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ihabwe abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, cyane cyane ku mibiri yabo, abafite ibibazo by'umusatsi utameze neza, hose bakavurwa n'umuti wa gakondo ubikwa mu icupa rifite ibara ry'umweru.

Amacupa atandukanye akoreshwa mu kubikamo imiti gakondo, kugira ngo ibe ifite isuku umunsi ku munsi, izakoreshwe n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bayoheze abaturage, cyane cyane abafite ibibazo by'uburwayi.

Imiti gakondo itangwa ku baturage rusange, ikitabwaho n'abavuzi ndetse bakayibika mu buryo bufite isuku, ikitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo izahabwe abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi, ibafashe muri serivisi y'ubuvuzi.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa muri serivisi y'ubuvuzi kuko tubikwamo imiti gakondo izafasha abaturage mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi, hakabikwamo iyo miti gakondo igatangwa n'abaganga b'inzobere umunsi ku munsi.

Uducupa tw'umweru dutandukanye ndetse tubikwamo imiti gakondo. Iyo miti igatangwa n'abaganga b'inzobere muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage, kugira ngo buri muturage ahabwe umuti umufasha kuvura indwara afite, harimo nk'uruhu ndetse n'umusatsi muri rusange.

Imiti gakondo iva mu bibabi ndetse ibyo bibabi bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo izafasha mu buvuzi rusange bw'abaturage, iyo miti ikabikwa mu ducupa dutandukanye kandi igakomeza kwitabwaho kugira ngo izatangwe ifite isuku.

Imiti gakondo ituruka mu bibabi, ibyo bibabi bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bakoremo imiti izafasha mu kuvura ikibazo cy'abaturage cyerekeye ku burwayi butandukanye, iyo miti gakondo ikitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo ikomeze gutanga ubuvuzi.

Icupa ribikwamo umuti gakondo ushobora gukenerwa n'abaturage rusange. Uyu muti ukaba uvura abaturage mu bibazo bitandukanye harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse n'ikumira z'indwara zifata porositate muri rusange.

Ibibabi bikorwamo imiti gakondo itangwa ku baturage nk'ubuvuzi rusange, ndetse ikitabwaho n'abaganga b'inzobere, kugira ngo ikorwemo imiti izafasha umuturage, mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi.

Icupa rifite ibara ry'ubururu ndetse rigakoreshwa n'abaganga b'inzobere, mu kubikwamo umuti gakondo uzafasha abaturage, cyane cyane abafite ikibazo cy'uruhu kugira ngo uwo muti ubafashe, cyangwa se abafite ikibazo cy'umusatsi Na byo bigashobora kuba byavurwa n'uwo muti gakondo.

Ibibabi bikorwamo imiti gakondo itandukanye, iyo miti gakondo ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo izahabwe abaturage, cyane cyane abafite ibibazo by'uburwayi mu gihe gikwiye kandi bayifate ari imiti imeze neza ifite n'isuku.

Amababi ari ku giti gitoya ndetse ayo mababi agakoreshwa nk'imiti gakondo, ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ikurwemo imiti izafasha abaturage mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi kandi bavurwe bahabwe serivisi y'ubuvuzi imeze neza.

Ibibabi bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti gakondo, bikitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo iyo miti izafashe abaturage mu guhabwa serivisi y'ubuvuzi bushobora gutuma indwara zabo zoroherwa, bakamera neza.

Uducupa dutandukanye ndetse harimo ibinini n'udutoya, twose tugakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo tubikwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi buzatangwa ku baturage rusange.

Umuti gakondo ukoreshwa ku buroso kugira ngo ube wafasha umuntu mu gukiza indwara zandurira mu kanwa, iyo awukoresheje yita ku menyo yiwe agatuma asa neza ndetse agakiza n'indwara zo mu kanwa, harimo n'ifumbi.

Serivisi y'ubuvuzi hakoreshejwe imiti gakondo yabukenenewe yitaweho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ibikwe mu ducupa dutandukanye, bajye bayigeza ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi bitabwaho umunsi ku munsi.

Icupa ribitswemo umuti gakondo ufasha muri serivisi y'ubuvuzi ku baturage rusange, ukitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ugezwe ku muturage ufite isuku ndetse n'ubudahangarwa, bwo kwica indwara afite muri rusange.

Ibibabi bitandukanye ndetse bikaba bikoreshwa nk'imiti gakondo. Bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo iyo miti ikorwe kandi ikorwe mu bintu bifite isuku. Inabikwe ahantu hafite isuku kugira ngo izatangwe ku baturage.

Icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu n'amagambo aryanditseho. Iryo cupa rigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ribikwemo imiti gakondo izafasha mu kuvura abaturage umunsi ku munsi.

Ubuvuzi rusange hakoreshejwe imiti gakondo. Iyo miti gakondo igakorwa mu buki ndetse ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ikorwemo imiti izafasha mu kuvura abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Uducupa dutandukanye tubikwamo imiti gakondo ishobora gufasha abaturage batandukanye mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi, abafite uburwayi bw'uruhu cyangwa se uburwayi bw'umusatsi ahantu runaka bakifashisha uyu muti gakondo kugira ngo bakire indwara bafite.

Amababi akoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo akurwemo imiti gakondo izafasha muri serivise y'ubuvuzi ku baturage rusange ndetse ikitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo ijye ikoranwa isuku, ihabwe abaturage ifite ubuziranenge bwuzuye.

Umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba ndetse ugafasha umuturage mu kuvura umubiri wiwe cyangwa se ikibazo kigendanye n'umusatsi, akiyitaho mu buryo bwo gufata imiti ihagije muri rusange kubwo guhabwa umuti gakondo.

Icupa rifite ibara ry'umweru ndetse rigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ribikwemo umuti gakondo uzafasha muri serivisi y'uburwayi bw'abaturage. Aho umuturage wese ufite ikibazo cy'uruhu cyangwa se ikibazo cy'umusatsi, akenera uyu muti gakondo kugira ngo umufashe mu kibazo afite.

Imiti gakondo itandukanye, ikaba ikorwa mu bibabi ikitabwaho n'abaganga b'inzobere, kugira ngo ikorwemo imiti izafasha abaturage, mu gihe bari guhabwa serivisi y'ubuvuzi bakitabwaho umunsi ku munsi.

Imiti gakondo itangwa ku baturage rusange bafite ibibazo by'uburwayi, ikitabwaho umunsi ku munsi n'abaganga b'inzobere kugira ngo izaherezwe abaturage mu buryo bwizewe kandi ibaherezwe ifite isuku kugira ngo bakomeze kwirinda indwara zitandukanye z'umwanda.

Amacupa atandukanye harimo umweru n'umuhondo, yose agakoreshwa mu kubikamo umuti gakondo utangwa ku baturage bafite ibibazo by'indwara, cyane cyane harimo indwara z'uruhu cyangwa se kutamera umusatsi. Bikabafasha mu kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Imiti gakondo ikorwa mu bibabi. Ibi bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo hakurwemo imiti izafasha mu kuvura abaturage. Iyo miti ikajyanwa mu mavuriro, kugira ngo ijye iboneka kuri buri muturage wese ufite ikibazo.

Umuti gakondo ukozwe mu buryo bw'ifu. Uyu ubikwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo bawubungabunge kandi bajye bawuhereza buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi. Bamwiteho kugira ngo avurwe neza.

Ibicupa bitandukanye ndetse n'ahandi hari ububiko butandukanye, aho imiti gakondo ishobora kuba itangirwa. Iyi ni serivisi y'ubuvuzi bwa giturage aho buri muntu wese ashobora kubona umuti ushobora gukiza indwara afite kandi ari umuti gakondo.

Uducupa dutandukanye twose dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo utwo ducupa batubikemo imiti gakondo izafasha mu kuvura abaturage, cyane cyane serivisi igatangwa ku baturage bafite ikibazo cy'uruhu ndetse n'abo imisatsi yanze gukura. Ni umuti ubafasha muri serivisi y'ubuvuzi.

Ibiti bifite amababi atandukanye ndetse ayo mababi agakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo hakurwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage rusange, aha buri muturage wese ahabwa umuti unoze kandi ukwiriye indwara afite.

Imiti gakondo iva mu bibabi ndetse ikitabwaho n'abavuzi gakondo bafite ubuhanga, kugira ngo bakore imiti ishobora guhabwa abaturage ndetse ikabakiza indwara bafite umunsi ku munsi.

Imiti gakondo ikorwa n'abaturage rusange, hakoreshejwe imbuto nk'ironji, ndetse na tangawize, kugira ngo bakore umuti, ushobora gukiza umuturage, cyane cyane ufite ikibazo cy'imitsi kugira ngo abe ameze neza.

Icupa rifite ibara ry'umweru n'amagambo aranga ko ari aho umuti gakondo ubikwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo uzakoreshwe muri serivisi y'ubuvuzi ku baturage batandukanye bafite ibibazo by'uruhu iby'umusatsi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zishobora gukenera umuti gakondo.

Amacupa agiye atandukanye, ayo macupa yose agakoreshwa mu kubika imiti gakondo, iyo miti gakondo itangwa n'abaganga b'inzobere basobanukiwe iby'imiti gakondo kugira ngo bafashe abaturage mu kibazo cy'ubuvuzi ndetse no guhabwa serivisi y'ubuvuzi ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi.

Ibibabi bikoreshwa nk'imiti gakondo. Bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikurwemo imiti izafasha mu kuvura abaturage. Iyo miti, igakoreshwa mu mavuriro ndetse n'ahandi hose abaturage bashobora kubona ubu serivisi y'ubuvuzi.

Uducupa dutandukanye dukoreshwa mu kubikwamo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi, ndetse ikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ibikwe mu buryo bufite isuku; izagezwe ku baturage bafite uburwayi mu buryo bwizewe.

Icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'ubururu. N'amagambo agaragaza ko ari umuti gakondo ushobora kuba utangwa ku baturage bafite ikibazo cy'uburwayi. Ukitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ube ufite isuku ndetse unatangwe hagendewe ku mabwiriza ashobora gukenerwa ku muturage kugira ngo abashe kuwukoresha.

Ibiti ndetse n'ibibabi byabyo bifite ubureme mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, aho byitabwaho ibyo bibabi bigakorwarwamo imiti gakondo izafasha, abaturage muri serivisi y'ubuvuzi.

Imiti gakondo y'ibibabi, bikaba bitandukanye, ari icyatsi ndetse n'umweru, byose bikitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bikorwemo imiti gakondo izafasha mu gukemura serivisi y'ubuvuzi ku burwayi bw'abaturage.

Uducupa dutandukanye, twose dukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo tubikwemo imiti gakondo izafasha muri serivisi y'ubuvuzi bw'abaturage, igahabwa cyane cyane abaturage bafite uburwayi bw'uruhu kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Icupa rifite ibara ry'umuhondo n'agafuniko k'umukara. Iryo cupa rigakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ribikwemo umuti gakondo uzafasha mu kuvura abaturage. Ukitabwaho ukabungabungwa kandi ugakorwa mu buryo bunogeye buri wese kugira ngo abe yabasha kubona uwo muti ku gihe.